Umugabo umeze nk'umuyobozi urimo kuvuga imbwirwaruhame mu nama, arimo gutanga nk'amabwiriza cyangwa ibisobanuro kuri gahunda runaka y'ingingo barimo kuganiraho, ariko ni umuntu w'umuyobozi uri imbere y'abaturage urimo kubaganiriza.

Abadamu babiri bahagaze umwe afite mikoro yambaye ikanzu, yambaye na linete, undi mudamu yambaye imikenyero, inyuma yaho hari icyapa gishishikariza abantu kubikorera mu isibo, harimo gutanga mituweli, kwiga no guhigura, kugira isuku, gukora imyitozo ngorora mubiri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abagabo batatu, baricaye, imbere yabo hari amazi ya nili, umugabo urimo hagati arimo kwandika, kandi harimo abashinzwe umutekano, harimo umugabo umwe w'umusirikare undi w'umupolisi, undi mugabo we ni umuyobozi, bari imbere y'abantu bari gutanga ibiganiro wafata nk'inama.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye, abagabo, abagore bari mu nzu iberamo inama cyangwa ibibera mu birori bitandukanye, ni inzu yakira abantu benshi, bari kureba mu cyerekezo kimwe, bakurikiye umuntu ushobora kuba uri kubaganiriza, biragaragara ko bashobora kuba bari mu nama cyangwa mu bindi bikorwa bahuriyeho hamwe.

Umugabo uri imbere, arimo kubwira abantu, yambaye imyenda y'ubururu ndetse na rinete, bari mu nzu harimo kuganiriza abaturage, cyangwa abantu barimo kuganira nk'inama cyangwa igikorwa gihuje abantu benshi arimo kuganiriza.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye harimo abadamu n'abagabo, abayobozi, abandi bari mu nzego zitandukanye z'umutekano harimo abasirikare ndetse na Dasso, abandi badamu bakenyeye, abagabo bitabiriye inama bari mu biganiro ndetse buri muntu afite icyo kunywa cyaba ji cyangwa amazi.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abakobwa cyangwa abagore aho umwe afite imashini ishinzwe gufotora arimo gufotora abandi bamukurikiye bameze nk'abari mu nama cyangwa bari kumva ikiganiro cy'umuntu arimo kubagezaho.

Abantu bari mu nama. Harimo umwe no gutanga ikiganiro wambaye impuzankano y'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Ndetse n'undi wicaye wambaye ijili ya MTN, n'abana babiri bameze nk'abanyeshuri. Uwambaye impuzankano za MTN, arimo gutanga ikiganiro. Afite telefone mu ntoki.

Umugabo wambaye neza wambaye ikote, uri gutanga ikiganiro ku bijyanye n'uburyo umuturage yakorera ibintu byose mu isibo, harimo: gutanga Mituweli, guhiga no guhikura, kugira isuku, gukora siporo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya Leta.

Abantu benshi bari mu nzego zitandukanye bahuriye hamwe bari mu nama cyangwa mu biganiro, aho harimo abantu batandukanye abashinzwe umutekano nka daso, ndetse n'abayobozi batandukanye, aho bari mu biganiro bimeze nk'inama barimo gukora.

Abantu mu ngeri zitandukanye baricaye barakurikiye, barimo gukurira ibiganiro bimeze nk'intama cyangw indi mishyikirano bagiranye. Ni abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu nzu ishobora kuba iberamo inama cyangwa ibirori bitandukanye aho bateze amatwi bari kumva ikiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo. Hari abahagaze imbere y'abandi. Abari imbere bameze nkabarimo kubyina bakoma n'amashyi. Ndetse abari inyuma yabo bafite imitaka . Izuba ryo ryabaye ryinshi bitwikiriye imitaka. Barimo mu kirori cyangwa bitabiriye inama runaka.

Abantu benshi bahuriye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore aho bari kumva imbwirwaruhame y'inama cyangwa ibindi biganiro bitandukanye bitewe n'icyo bari kuganiraho, ni abantu benshi bicaye umwe arahagaze arimo kubaha ikiganiro ku ngingo zagiye zitandukanye.

Abakobwa barimo kubyina, bambaye imyenda igaragaza umuco nyarwanda, harimo: imikenyero, urunigi ndetse n'urugoreri, barimo kubyina ahantu hameze nk'aho habaye ibirori ariko imbyino yabo ni iy'umuco nyarwanda.

Ahantu hari abantu benshi, hari abadamu n'abagabo barimo kubyina. Imbyino bari kubyina bigaragaza mu muco nyarwanda, kandi abadamu bakenyeye, hari n'intore zirimo kubafasha kuririmba, ndetse n'abari kuvuza ingoma. Ni ahantu hameze nk'ahabaye ikirori, hari abandi bantu bicaye barimo kwitegereza ukuntu bari kubyina mu muco nyarwanda.

Abakobwa barebare bashyinguye bambaye imyenda y'umukara n'umweru, imwe mu myenda igaragaza umuco nyarwanda, abandi bambaye urugori barimo kubyina mu mbyino igaragaza umuco nyarwanda ndetse hari n'abantu bicaye barimo kwitegereza uburyo aba bakobwa babyina mu muco nyarwanda.

Urusyo ndetse n'ingasire rwifashishwa mu gusya amasaka cyangwa ibindi bitandukanye aho akenshi bakunda kurukoresha barimo gusya amasaka yo gukoresha mu gutara urwagwa ari kimwe mu bintu biranga umuco nyarwanda, umudamu arimo gusya yambaye imyenda ijyanye n'umuco nyarwanda harimo urugori ndetse n'uruniga n'imikenyero.

Igicurangisho kigaragaza umuco nyarwanda, mu cyimbo cyo gukoresha gitari y'iki gihe mugihe haje iterambere, mu umuco wa kera bakoreshaga iki gikoresho uwo mugabo afite, umugabo wambaye ikote, umusatsi mwinshi, arimo kugicuranga.

Igicurangisho gakondo cyifashishwa umuntu ari kuririmba ndetse agashyiramo inanga. Wakigereranya nk'igicurangisho kigezweho cy'iki gihe cyitwa gitari. Aho bijya gucuranga kimwe. Ariko ibi ngibi byakorerwaga kera ndetse kikaba ari kimwe mu gikoresho kiranga umuco nyarwanda, abanyarwanda ba kera bakoreshaga mu muziki wabo.

Abantu batandukanye kandi bari kubyina mu muco wa kinyarwanda, ni ikirori cyabaye harimo abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'inzego zishinzwe umutekano, harimo abasirikare ndetse n'abapolisi, aho bari kubyina bakoresheje imbyino zo mu muco nyarwanda.

Umwana w'umukobwa uri kuvuga imbwirwaruhame, hagati mu bantu bagiye batandukanye mu nama y'abayobozi, harimo abashinzwe umutekano, abayobozi barimo kwiyakira banywa n'amazi.

Ishyo ry'inka, inka nziza zifite amahembe meza maremare amezi kimwe, ni zimwe mu nka zigaragaza umuco nyarwanda w'Abanyarwanda, izo ziba zifite amazina yitwa inyambo zikunda gukurura ba mukerarugendo.

Inka y'inyambo ifite amabara meza n'amahembe meza, izi nka zigaragaza umuco nyarwanda, Abanyarwanda bakunda kuzifotorezaho ndetse ni inka zikunda kugaragaza umuco w'Abanyarwanda ba kera ndetse n'ab'ubu ndetse zigakurura na ba mukerarugendo baje kuzireba, ni inka ziba zigaragara neza kandi kuzifotorezaho ni ibintu byiza.

Abantu benshi batandukanye bicaye barimo igikorwa kigaragaza umuco nyarwanda, aho bicaye bafite amazi ndetse na ji zo kunywa mu gihe baba bagize inyota, ariko hari umugabo uhagaze urimo kugaragaza umuco nyarwanda, aho afite inkoni yifashishwa nk'ubushumba nk'umuco nyarwanda.

Umuvure ndetse n'igikoresho bakoresha mu gukamura ibintu byenzwe cyangwa se ibivuzo byo mu bintu byashigishwe gafatwa nk'akayunguruzo kayungurura ibisukika, umuvure ibikorwa bitandukanye harimo kwenga ibitoki ndetse no guhorezamo igikoma cyashigishwe.

Ibikoresho bitatu biranga umuco Nyarwanda bifite amazina yitwa inkangara ni amazina y'ikinyarwanda. Ikangara eshatu zikoreshwa mu gihe bari kugaragaza umuco nyarwanda, cyangwa bagiye gutura umuntu w'inzoga ndetse n'ibihingwa.

Abantu barimo kubyina, abandi bari gucuranga, abandi bicaye, mu bykuri ni abantu bishimye abari kubyina ni abadamu bambaye imikenyero, bafite insanganyamatsiko y'icyapa kiriho inkera y'imbananira kurusha z'Akarere ka Nyagatare yo ku wa 28/10/1014.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abasore barimo kubyina mu mbyino y'umuco nyarwanda, bambaye n'imyenda yabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe harimo abambaye amayugi ndetse n'urunigi. Ari bimwe mu bintu bigaragaza umuco nyarwanda. Barimo kubyina, bari kwiyerekana imbere y'abantu.

Ipiloni rirerire ritanga amashanyarazi mu bice bitandukanye by'aho riherereye, abantu barimo kuryitaho aho baba bari gufasha ipiloni gutanga umuriro aho utarimo kugera cyangwa se rikaba ryapfuye, barimo kurikora kugira ngo umuriro ubashe kugera neza mu baturage.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'aho amashanyarazi ahurizwa kugira ngo akwirakwizwe mu baturage, ni amashanyarazi yaba yarubatswe kugira ngo abe ikusanyirizo ry'umuriro, aho uzajya ugenda ukwirakwizwa mu baturage bagiye batandukanye.

Ikusanyirizo ry'amashanyarazi aho amashanyarazi aturuka ndetse agakwirakwizwa mu baturage cyangwa muri bizinesi zitandukanye zikenera umuriro w'amashanyarazi, aha ngaha rero ni ho amashanyarazi menshi afite imbaraga aturuka akajya mu bandi baturage no muri bizinesi zitandukanye.

Amatara akora mu muhanda, aya matara amurika muri kaburimbo n'ijoro kugirango ibinyabiziga bibashe kugenda kaburimbo iri kubona, ni mu uburyo bwo kugabanya ibibazo by'impanuka ndetse n'indi bibazo byabera mu muhanda nko kwambura umuntu cyangwa kumuhotera kuko amatara aba yaka arinda impanuka kandi akarinda n'ibyo bibazo by'umwambuzi.

Ahantu hari ihuriro ry'amashanyarazi menshi ndetse n'amapironi atwara umuriro mu bice bigize ako gace ihuriro ry'amashanyarazi aherereyemo, n'ukuvuga ngo aya mashanyarazi atanga andi mashanyarazi mu bice bitandukanye kugira abantu bahaturiye babashe kubona umuriro uhagije.

Igikorwa cyubatswe aho cyitwa ikusanyirizo ry'amashanyarazi, aho gitanga amashanyarazi mu bice bitandukanye bikegereye, nko makaritsiye, mu baturage ndetse n'ahandi hantu, hari ibikorwaremezo bikenera nk'amashanyarazi nko mu nganda cyangwa mu bigo by'ubucuruzi, abantu barimo kugenda bameze nk'abari kuhakora hataruzura neza.

Ahantu hubatswe ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ugende ujya mu baturage mu bice bitandukanye, ariko aturuka hamwe. Abantu barimo kubaka neza iki gikorwa, kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ugere ku baturage umeze neza kandi uhagije.

Umuntu mukuru, umusaza agiye kwiyogoshesha aho mugiye kumwogosha yambaye agapfukamunwa arimo kumwambika igitambaro kugira ngo imisatsi itamujyaho, ni igihe bamwogosha bakoresheje imashini yabugenewe kandi bikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Umukobwa uhagaze ufite ibikoresho byifashishwa mu gutunganya umusatsi, mu kuwugira mwiza no kuworoshya ibikoresho bikaba byifashishwa hakoreshejwe umuriro w'amashanyarazi.

Umukobwa wambaye impuzankano z'akazi ndetse n'ingofero aho ari kwita ku mashanyarazi yangiritse kugira ngo ayasubize ku murongo abashe kugera aho yakagombye kuba ari kujya, ni umukobwa urimo kuyitaho kugira ngo aho atari gukora yongere akore.

Umuyoboro w'amashanyarazi uvana amashanyarazi hamwe uyajyana ahandi kugira ngo amashanyarazi abashe gukwirakwira mu baturage, aho bubaka ipoto ndende kugira ngo ibashe gufata insinga zigende zijya mu baturage ndetse n'ahandi hantu kure kugira ngo umuriro ubashe gukwirakwira hose.

Umugabo uri mu gikoresho kimufasha gu gukora amashanyarazi yangiritse, ari ku biti cyangwa amapoto atwara umuriro mu nce zigiye zitandukanye kugirango abaturage babashe kuwubona. Ipoto riba ryangiritse noneho umuntu ushinzwe amashanyarazi cyangwa gukora amashanyarazi arimo kubikora kugira umuriro ubashe gukomeza kujya mu baturage bagiye batandukanye.

Ipiloni ry'amashanyarazi, aho ryifashishwa mu gutanga umuriro no kuyakwirakwiza ahantu hatandukanye nko mu duce abaturage benshi batuyemo cyangwa mu nganda cyangwa ahantu hose hari ibikorwa bikenera umuriro.

Abantu b'abakozi barimo kwita ku mashanyarazi, ni imiyoboro bahagazeho iyobora amashanyarazi mu duce dutandukanye tutarimo amashanyarazi, ni abantu rero barimo kuyitunganya bari hejuru ku bintu bita amapironi kugira ngo babashe gukora amashanyarazi agere ku baturage.

Ipoto y'umuyoboro w'amashanyarazi ndetse n'umuntu uriho arimo kubyitaho, aho ari gukora esitarasiyo kugira ngo umuriro ukomeze ugende, ujye mu baturage ndetse no mu nce zigiye zitandukanye z'abantu kugira ngo babashe kubona umuriro uhagije, aha ngaha uyu muntu aba arimo gukosora ibyangiritse kugira ngo amashanyarazi atagera ku baturage.

Icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko uri ku mupaka uhuza u Rwanda n'Ubugande, aho u Rwanda rwifuriza abantu urugendo ruhire mu ndimi zitandukanye harimo igifaransa, icyongereza n'Ikinyarwanda, aho bavuga ngo mugire urugendo rwiza mujya mu Bugande ndetse n'Ubugande butanga ikaze mu gihugu cyabo.

Urugomero ruvamo, rugota amazi, noneho rukavamo amashanyarazi yifashishwa mu bindi bikorwa ngandurabukungu, nk'amatara, inganda ku byavuye mu gukurura umuriro w'amashanyarazi uturuka mu mazi, urugomero rero rwifashishwa mu kubyaza amazi, n'amashanyarazi.

Inyubako ya leta ikorerwamo igikorwa cy'urugo mbonezamikurire y'abana bato, aho batanga serivisi ifasha abana bato kugira imibereho myiza, kugira ngo bakure neza nta kibazo bafite, nta kibazo k'igwingira, ndetse n'ibindi bibazo abana bahura mu gihe barimo gukura. Iki kigo gifasha abo bana kugira ubuzima bwiza, no gukura neza.

Ikiraro kiri mu kirere. Ariko akaba ari ikiraro cy'abanyamaguru ,kifashishwa kugira ngo cyoroshye urugendo. Abantu barimo barimo gutambuka bagenda abandi baza. Ikiraro kiba cyarubatswe n'igihugu cyangwa ubuyobozi.

Icyapa kiriho amagambo avuga ko Kagitumba no kwibohora, amateka yo kwibohora muri Kagitumba haditseho amagambo menshi avuga uburyo habohowe ndetse n'icyapa kigaragaza bimwe mu mateka y'u Rwanda cyangwa ay'igihugu cyacu aho bibohoraga babohora n'igihugu cyacu.

Ni inzu zubatswe mu buryo bumwe, aho zubakwa kugira ngo zijyemo abantu batishoboye zubakwa na Leta, ni inzu zifite amabati y'umutuku ndetse zubatswe mu buryo busanzwe.

Uruganda, inyubako y'uruganda rw'inyange ni uruganda rutunganya amata, ruri mukarere ka Nyagatare, ni inzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byo gutunganya amata, ni inzu imwe irasa ubururu iteye irangi ry'ubururu, ahandi bahubakishije amatafari ahiye.

Igikorwaremezo, akenshi cyubakwa na Leta y'Igihugu. Ni ikiraro kinyuraho ibinyabiziga, gihuza umuhanda n'undi. Ikiraro gikorwa iyo harimo umugezi urimo guca munsi cyangwa hagati y'imisozi ibiri kugira ngo bahuze n'imihahirane n'abandi. Umuhanda urimo ibinyabiziga bitwara imizigo.

Inyubako iri ahantu hitaruye, izuba ririmo kuva, inzu isakaje amabati y'ubururu ndetse yubakishijwe n'amatafari ahiye, ni ibiro cyangwa aho abayobozi bakorera batanga cyangwa bari gukora inshingano bashinzwe, aho abaturage babasanga kugira ngo babakemure ibibazo banabafashe ubufasha baje kubasaba, akaba ari hano babasanga.

Umuhanda mwiza uringaniye ,utarimo amakoni, ugororotse, mu umuhanda baciyemo umusozi bakawucamo kabiri ,uruhande rumwe n'urundi rukajya ukwarwo, hagacamo hagati umuhanda, harimo ikinyabiziga kimwe ikirere kimeze neza.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biri muri kaburimbo, imodoka, moto ndetse n'abanyamaguru bari kugenda n'amaguru, ahantu hitaruye, amatara ku muhanda ndetse n'ibibaya bigaragara neza, ni ahantu heza hari ibikorwa remezo byinshi bitandukanye, hariyo kaburimbo ndetse n'amatara amurika mu muhanda.

Inzu yubatse neza iri mu marange ajya gusa ubururu n'imiryango y'umweru, amabati y'ubururu. Ni inzu isa nk'itangirwamo serivisi z'abayobozi cyangwa ibiro by'abayobozi, aho abaturage bajya kwaka zimwe muri serivisi za buri munsi nk'uburenganzira bwabo.

Ahantu hari ikibumbano cy'inka kinyambo hari kimwe mu bintu bigaragaza umuco Nyarwanda nk'inka z'inyambo nazo zirimo ndetse n'icyapa cyanditseho akarere ka Nyagatare, kigaragagazako wageze mu karere ka nyagatare.

Igikorwa remezo cy'umuhanda, aho wubaka ikiraro. Ikiro cyubatswe kugira ngo gihuze agace kamwe n'akandi, aho hagati yaho harimo umugezi umanuka cyangwa hakaba haracitse isuri imisozi igatitigita noneho bakakoramo umuhanda wambukiranya kugira ngo uhuze agace kamwe n'akandi.

Ibiro by'ubuyobozi akagari cyangwa umurenge, aho abaturage bajya kwaka serivisi zitandukanye ubuyobozi butanga, harimo nk'iby'ubuhinzi, ubworozi, imiturire ndetse n'abagiranye ibibazo akaba ari ho babikemurira.

Kaburimbo iri ahantu ubona ko ari ahantu hatuje, abanyamaguru bari kugenda, bafite amagare baracunga n'igikorwa remezo cya Leta, amatara ku muhanda, ni ahantu bigaragara ko hari igikorwa remezo kiri inyuma nk'ivuriro cyangwa amashuri.

Abafundi n'abantu bari kubaka ikiraro cyangwa umuhanda uhuza umuhanda umwe n'undi, barimo kuwubabaka bakoresheje amaferabeto n'ibindi bintu byose byifashishwa mu kubaka umuhanda.

Umupaka uhuza u Rwanda n'u Bugande, abantu abantu benshi batandukanye ,harimo abarigufotora, abandi bacunze umutekano ,umukuru w'igihugu arashaka kwinjira mu Bugande.

Inzu nziza iri ahantu heza, yubakishije amatafari ahiye y'amarangi y'icyatsi n'amabati y'umutuku, inzu y'ibiro by'Akagari cyangwa Umudugudu, aho umuyobozi aba ari ndetse n'abamwungirije bagatanga serivisi zo gukemura abaturage ibibazo byabo.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kibarizwa mu Karere ka Nyagatare, intebe zacyo zikoze mu mabara agize ibendera ry'Igihugu, ndetse hari n'ahantu h'umutuku abakinnyi birukanka cyangwa bakora amarushanwa yo kwirukanka birukankira, hakaba n'ikibuga abakinnyi bakina umupira bakiniramo, harimo n'abantu bari kugendamo.

Abantu benshi harimo abana n'abantu bakuru, bubatse itente kandi bari imbere y'ishyamba, imbere yabo hari umugabo urimo kubaganiriza, arimo gutanga ikiganiro ku bana cyangwa ku bantu bahari bamukurikiye.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye abandi batatu bahagaze, aho hari umusirikare, umugabo, ndetse n'umudamu ukenyeye, urimo guhabwa igihembo nk'umubyeyi uharaniye iterambere ry'umwana, akaba hari na seritifika, itangwa n'ikigo gishinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'abana..

Abantu benshi batandukanye harimo abadamu n'abagabo, harimo abahagaze n'abicaye, umugabo ahagurutse nk'ugiye gutanga ikibazo mu nama cyangwa igitekerezo, ni hantu bisa nk'aho habaye inama rusange.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abasore ndetse n'abadamu, abadamu bakenyeye, abasore bambaye amakoti, aho abadamu bafite indabyo abandi basore bafite isanduku zirimo abantu bapfuye, imirambo, bagiye gushyingura, ni umuryango wagize ibyago byo gupfusha abantu benshi kuko amasanduku ni menshi.

Abantu batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abagabo. Bazanye indabo ahantu ku gituro cyangwa ahantu hashyinguwe umuntu. Ni mu buryo bwo kumwibuka, aho bamuzanira indabyo zanditseho amagambo agaragaza ko bamukunda.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye barimo kuganirizwa. hafatwa nk'inama cyangwa ibindi biganiro byagenewe abaturage, aho abayobozi bicaye ndetse begereye abaturage barimo kubaganiriza. Ni ahantu hitaruye hatari mu nzu hakurya hari ibitoki ndetse n'ibindi bimera byifashishwa nk'ibiribwa.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi babiri barahagaze, ni ahantu hanze ntago ari munzu, umudamu n'umugabo nibo bahagaze, barimo gutanga ikiganiro bafata nk'inama kuri abo bantu bicaye.

Abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye abadamu ndetse n'abagabo bicaye hamwe bari mu nama cyangwa ibiganiro aho umugabo wambaye impuzankano z'ikigo gishinzwe igenzura kitwa RIB arimo kubaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bari mu nama, bari kuganira ku ngingo zitandukanye, harimo abayobozi bakomeye ndetse n'abashinzwe umutekano nka DASSO ndetse n'abandi bantu benshi, bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Abantu batandukanye harimo inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abayobozi aho bahagaze imbere y'abantu barimo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye no guca akarengane mu baturage, barimo gutanga imbirwaruhamwe ndetse no kumva abaturage ibibazo bafite.

Abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore, abayobozi ndetse n'abo mu nzego z'umutekano, harimo abasirikare ndetse n'abapolisi, bahagaze bose, bari mu nama bari mu biganiro, bari mu gikorwa kimwe.

Abaturage benshi bari mu ngero zitandukanye, harimo abagabo, abadamu ndetse n'abasore, abagabo bamwe bambaye amakoti, abandi badamu bakenyeye, ni ikirori kirimo kuba nk'ubukwe cyangwa izindi gahunda zijyanye n'ibyishimo.

Abayobozi n'abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye bahuriye hamwe, harimo abasirikare, abao muri RCS bashinzwe abagororwa n'imfungwa, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bari mu gikorwa kimwe.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye bateze amatwi, harimo n'abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano harimo polisi, umupolisi ari gutanga ikiganiro ni ku munsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika, aho arimo kuganira ku bijyanye n'uburezi kuri bose.

Umuturage ari mu nteko y'abaturage, arimo gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo, ku karengane yaba yarakorewe kugira ngo abashe kurenganurwa cyangwa ubuhamya ari gutanga imbere y'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo irenganya umuhanda wose, iyi mirongo isobanuye ko ari ho abanyamaguru bategetswe kwambukira, bamwe bava mu gihande kimwe cy'umuhanda abandi bajya mu kindi, aha ngaha imodoka zihageze zigomba kugenda gake abanyamaguru bakabanza bakambuka kaburimbo.

Imodoka itwara abagenzi iri muri gare, aho abagenzi bajyamo ikabageza aho bagiye, ni imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa Kwasiteri aho itwara abantu makumyabiri n'umunani, iraparitse itegereje abagenzi ko baza ngo ibatware.

Icyapa kiri imbere y'umuhanda wa kaburimbo ni icyapa kirimo amagambo y'umweru aranga icyerekezo, icyo cyapa kiri mu Karere ka Nyagatare kirimo kuranga aho polisi yo mu Karere ka Nyagatare iherereye, kiri kugaragaza ko kuva aha ngaha icyapa kiri ujya aho polisi ikorera ari metero magana atanu.

Imodoka iparitse ku mapave, ahantu hegereye ibikorwa by'ubucuruzi, haparitse n'abandi nk'abamotari, imodoka iri mu bwoko bwa Toyota, ifite irangi ry'ubururu.

Imodoka iri mu bwoko bwa toyota helex, yo muri kaburimbo, nta bindi binyabiziga birimo, iri kugendamo yonyine, abantu bamwe bari kugenda, abandi bagaruka, ni imodoka ishobora kuba yatwara abantu, ikaba yatwara n'imizigo inyuma.

Icyapa kiranga amerekezo y'umuhanda, aho umuntu akubwira imibare yanditse kuri iki cyapa, noneho ukaba waza ukayigeraho utaruhaza, ni ukuvuga ngo umuntu uturutse kure cyangwa utazi ahantu ku umuhanda akoresha iyi imibare ku cyapa kugira ngo abashe kuhagera.

Icyapa kigaragaza amerekezo y'umuhanda, icyapa gisobanuye ko imbere gato hari uruziga cyangwa uruhurirane rw'imodoka nyinshi biri bugusabe kuzenguruka, mu ndimi z'amahanga babyita ropuwe, imodoka kugira ngo ijye mu cyerekezo ijyamo igomba kubanza kuzenguruka.

Kaburimbo ndetse n'icyapa cyemerera abanyamaguru kwambuka kaburimbo, ni ahantu haba harimo imirongo y'umweru yemerera abanyamaguru kwambuka, iyo bagiye kwambuka imodoka zigomba guhagarara cyangwa moto y'icyo kinyabiziga cyose kiri muri kaburimbo abantu bakabanza bakambuka, aho hantu haba hari imirongo y'umweru ituma abantu bambuka n'amaguru.

Umuhanda wamabuye n'icyapa kinini cyanditseho gare ya Nyagatare, aho imodoka ziparika cyangwa imodoka zitwara abagenzi ziparika abagenzi bakajyayo bakajya mu modoka noneho zikabajyana aho bagomba kujya kandi abo bagenzi bakishyura. Ni icyapa kigaragaza gare aha iri aho umuntu ashobora kujya agafata imodoka imugeza mu rugo.

Icyapa kiranga umuhanda cyangwa kigaragaza umuhanda aho umuntu ubisobanukiwe amubwira imibare iri kuri iki cyapa ndetse n'inyuguti zanditseho aturutse kure akaba yaza agaparikaho, ni icyapa kiranga ahantu cyangwa kiyobora umuntu mu gihe atahazi.

Ni icyapa kigaragaza, aho abagenzi bambukira muri kaburimbo, abantu bari kugenda ku nkengero za kaburimbo, akazu gacuruza amayinite, Mobile money.

Umugabo ari muri kaburimbo wenyine nta bindi binyabiziga birimo, ahetse ibintu bigiye bitandukanye. Hari ibiri mu ikarito y'ikigina, ibiri mu y'ubururu n'umweru n'akandi kantu k'icyatsi kari hejuru arasa nk'umuntu uvuye kurangura.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, abasore, abagabo n'abadamu, bafite amasuka, abandi barahagaze bategereje kubakira, bari mu gikorwa rusange nk'umuganda n'ibindi bikorwa bihuriza abaturage hamwe.

Abantu benshi bari mu gikorwa rusange aho harimo abana, abagabo ndetse harimo n'abayobozi batandukanye ndetse n'inzego z'umutekano, harimo abasirikare bikoreye amabuye ndetse abandi bafite ibindi bikoresho bari gukora igikorwa rusange nk'umuganda cyangwa bakaba bari kubakira nk'umuturage.

Abantu benshi harimo abadamu n'abagabo bicaye hamwe bari kumva ikiganiro, ni abantu basoje igikorwa cy'umuganda cyangwa ikindi gikorwa gifitiye Leta cyangwa abaturage akamaro, abaturage bamwe bafite ibikoresho nk'isuka.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye: abagabo, abagore n'abashinzwe umutekano. Harimo abasirikare na polisi n'abayobozi. Bari gukora igikorwa rusange cyafatwa nk'umuganda. Harimo abikoreye amabuye abandi bafite isuka bari gukora amasuku.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu ngeri zitandukanye. Harimo: abadamu, abana, abagabo n'abasore. Aho bari mu gikorwa k'imbwirwaruhame yo kugerayo amahoro. Bisobanuye ko baba bari gushishikariza abantu kugerayo amahoro cyangwa gutwara ibinyabiziga, gutwara utasinze ukagera mu rugo nta kibazo uteje cyangwa nawe utiteje ikibazo.

Abantu batatu bari imbere harimo umupolisi ndetse n'abandi babiri basanzwe aho barimo gukora igikorwa cyo gushishikariza abantu kugerayo amahoro, aho babwira abaturage kwirinda gutwara basinze cyangwa gutwara ikinyabiziga bafite umuvuduko mwinshi, ni igikorwa kiri kubera mu baturage aho bari kubashishikariza kugerayo amahoro.

Abantu benshi mu ngeri zitandukanye, bahurijwe hamwe. Bari gukorana bitandukanye nko guhinga cyangwa gutunganya inzira. Abandi bari gutema bakuraho ibihuru. Ni igikorwa kijyanye n'umuganda.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye harimo abavolonteri n'abandi baturage basanzwe bari mu gikorwa kimwe cyo kubakira umuturage inzu, aho bari kubaka inzu yubatse mu matafari asanzwe ya rukarakara, amabati asanzwe y'umweru, aho bari gukora igikorwa cyakitwa nk'umuganda cyangwa gutanga umusanzu ku muturage utishoboye, aho bari no kubaka tuwalete.

Umugabo wikoreye ibuye, ashyizeho ingata ari wenyine, inyuma ye hari ibiti bijya kumera nk'iby'ishyamba, haruguru ye hari urutoki harimo insina kandi ni wenyine.

Abaturage mu ngeri zitandukanye abagore, abagabo, harimo abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano, aho bari gukora igikorwa rusange cyo gufasha umuturage cyangwa kubaka igikorwa gifitiye abaturage akamaro.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abaturage basanzwe, abari mu rwego rw'umutekano harimo Polisi n'abasirikare. Abapolisi babiri bo bari mu rwego rushinzwe umuhanda ndetse barimo gushyiraho ka morale. Barimo kuririmba bamwe bari gukoma amashyi kandi baturage bari inyuma.

Abantu benshi bari mu ngero zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano nk'abasirikare n'abaturage, basanzwe bahuriye ku gikorwa kimwe kimeze nk'umuganda, aho abaturage bahurira bagakora igikorwa rusange giteza igihugu imbere.

Abantu bari gukina umukino wa maguru, aho umwe agiye gu gushota balo undi agiye kumukurikira kugira ngo amubuze gushoto, ikipe imwe yambaye umuhondo n'umukara, indi yambaye umukara n'ubururu bweruye.

Abantu benshi bahuriye hamwe kandi bambaye imyenda ibafasha mu kugorora umubiri wabo, barimo gukora imirimo ibafasha gushyuha ndetse ikanabafasha gutuma umubiri umererwa neza ukanatembera, amaraso agatembera neza, ni umurimo ngororamubiri barimo gukora kandi bahuriye hamwe ahantu hari amatara biragaragara ko bwije.

Abantu bari mu kibuga cy'umupira cyitwa sitade. Aho bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga cyiza kiriho ubwatsi bwiza. Ikipe imwe abakinnyi bambaye imyenda y'umutuku n'imero zandikishije amabara y'umweru n'ikabutura z'umukara. Indi kipe yambaye ubururu. Abandi bakinnyi benshi bari ku ntebe y'abasimbura.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kandi harimo abakinnyi barimo gukina. Harimo abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, abandi bambaye umuhondo. Mu kibuga harimo umusifuzi, wambaye impuzankano z'umupira w'umutuku n'umukara, ndetse n'undi musifuzi uri ku ruhande. Imbere y'abasimbura, hari umutoza. Bari mu gikorwa ngororamubiri cy'umupira w'amaguru.

Amakipe y'umupira w'amaguru ari mu kibuga arimo gukina, umukinnyi w'ikipe imwe yavunitse mugenzi we arimo kumwita, mu ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara n'umuhondo, indi yambaye ubururu n'umweru.

Ikibuga kiza cy'ahantu harenganiye gifite ubwatsi bwiza, gikoreshwa mu gukina umupira w'amaguru n'umutoza ushinzwe kwigisha abakinnyi uburyo bagomba kwitwara mu kibuga, abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu n'ubu barahari biteguye gukina.

Abakinnyi bambaye impuzankano bakoze uruziga bari kumva amabwiriza y'umutoza kugira ngo umukino utangire, bambaye impuzankano harimo amasogisi y'umweru, amakabutura y'umukara werurutse ndetse na nimero ku mupira zandikishije amabara y'umweru, imbere ku nda harimo amabara y'ubukara, ubururu bwerurutse.

Icyapa cyangwa igishushanyo mbonera cy'uburyo imikino yarangiye yo mu irushanwa ry'igikombe y'umurenge kagame 2024-2025, aho habayeho imikino ihuza abagore n'imikino ihuza abagabo, ni imikino ine yabaye ku ruhande rw'abagore no ku ruhande rw'abagabo, aho bari kwerekana uburyo byagiye birangira.

Abantu benshi bari muri kaburimbo barimo kwiruka aho bari kugorora umubiri, bambaye imyenda yifashishwa mu kugorora umubiri itandukanye ndetse harimo abagabo n'abakobwa, ni nijoro bari muri kaburimbo barimo kwiruka kugira ngo bagorore umubiri.

Abagabo batanu, bambaye imyenda yifashishwa mu kugorora umubiri, harimo abambaye imyenda y'umuhondo, umukara ndetse n'umuhondo n'ubururu ndetse n'uwambaye ingofero, bicaye ku ntebe y'abasimbura, bategereje ko na bo bajya mu kibuga, ni umupira w'amaguru.

Ikibuga cy'umupira w'amagurucimo ibyatsi byakuze, ndetse hakaba harimo abakinnyi amakipe abiri atandukanye barimo gukina. Aho umukinnyi w'ikipe imwe yambaye imyenda amajeze y'ubururu n'amabara y'icyatsi, ndetse n'indi kipe ikaba yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu bwerurutse, umuzamu wabo akaba yambaye umuhondo n'umukara.

Ni ninjoro imodoka ya Polisi iri muri kaburimbo yacanye amatara y'umutuku, isa nk'igiye gutabara ahantu cyangwa kureba ahantu ikibazo cyabaye, nta zindi modoka ziri mu muhanda amatara y'umuhanda arimo kwaka, nta zindi modoka zirimo ni imodoka imwe ya Polisi gusa.

Abasore bari mu kigero k'imyaka makumyabiri kuzamura, barimo gukina umupira mu kibuga kitarimo ibyatsi ndetse uyu mukino ukaba ufatwa nk'umwe mu bigize siporo. Aho ikipe yambaye ubururu n'icyatsi ndetse abandi bakaba bambaye ubururu bwerurutse barimo gukina umupira.

Abakobwa barimo gukina umukino ngororamubiri wumupira wamaguru, bamwe bambaye impuzankano z'umutuku, umuhondo n'unumukara, abandi bambaye impzankano y'umukara n'umweru, barimo gukina umupira mu kibuga cyiza kandi kirimo ubwatsi bwiza.

Abana bari mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'itanu, barimo gukina umukino w'umupira w'amaguru, ufatwa nk'imwe muri siporo zikunzwe cyane, kandi zikurura umubiri, ni abana batatu barimo gukina, harimo uwambaye inkweto zifunze, abandi bambaye ibirenge, bari mukibuga kitarimo ibyatsi, kirimo ivumbi.

Igikorwa cya siporo y'umupira w'amaguru k'irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Umurenge Kagame Cup, cyabaye bibiri na makumyabiri na kane, makumyabiri na gatanu, harimo abakinnyi bambaye imyenda y'umuhondo n'icyatsi n'abayobozi bari kubaganiriza uko bagomba kwitwara.

Abana bari mu kibuga batatu barimo gukina umupira w'amaguru, umwe yambaye ibirenge yambaye inkweto zifunguye, undi yambaye inkweto zifunze, barimo gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Abantu bahuriye hamwe kandi bo mu ngeri zitandukanye, harimo abana, abagabo, ndetse n'abagore, n'inzego z'umutekano ziri mo. Bahuriye hamwe, barimo kureba ikirori cyangwa umukino ujyanye na siporo, ushobora kuba ari umukino w'amaguru cyangwa basketbal.

Abakinnyi bicaye ku gatebe kabasimbura aho bategereje ko umutoza akuramo abandi noneho bo bakajyamo, ni abakinnyi bambaye imyenda y'impuzankano itandukanye bagomba kujyana mu kibuga harimo umuhondo, icyatsi, umuhondo n'umukara ndetse n'imbere yabo hakaba hari amazi yo kunywa, inyuma yaho hari abafana baba baje kureba umupira.

Abagabo bicaye mu mwanya w'abafana mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho bose amaso bayahanze mu kibuga barimo kureba umukino.

Abantu benshi bahuriye hamwe, ni ku mugoroba amatara arimo kwaka, bambaye imyenda ngororamubiri barimo kugorora umubiri, aho bari gukora igikorwa kimwe cyo kugorora umubiri, harimo abakobwa n'abahungu.

Abantu mu ngeri zitandukanye harimo amakipe abiri bagiye gukina umukino w'amaguru, aho ikipe imwe yambaye umuhondo n'umukara, indi ikaba yambaye ubururu bwerurutse n'umukara ndetse n'abazamu bakaba bambaye imyenda itandukanye bari mu kibuga biteguye gukina; bagiye gutangira, ni umukino wa siporo w'umupira w'amaguru.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, bateraniye hamwe, bari mu gikorwa remezo kitwa sitade, bifashisha bareba umupira cyangwa ikindi gikorwa cyose cya siporo, kibera muri sitade nko kwirukanka ndetse n'ibindi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo kwishyushya kugira ngo bajye mu kibuga bakine, bambaye imyenda y'ubururu ndetse imipira y'ubururu irimo amabara y'icyatsi, ku ruhande hari umwe uhagaze ategereje ko bajya mu kibuga ngo yirebera.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga aho hari amakipe abiri atandukanye, aho ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu ndetse n'icyatsi, indi na yo ikambara ubururu bwerurutse ndetse n'ikabutura z'ubururu, aha kandi muri kibuga nta bwatsi buririmo ni igitaka gusa.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ndetse hepfo ye gato hari uwundi mukinnyi w'umupira w'amaguru wambaye impuzankano z'umuhondo, amasogisi y'umukara. We yambaye ubururu n'icyatsi. Bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru ariko ni ikibuga kitaka, nta tapi irimo cyangwa ibyatsi. Hepfo yaho hari inzu nini imeze nk'urusengero abantu basengeramo.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo ikinyabiziga, urimo imirongo hagati igiye iciyemo, igaragaza ko ikinyabiziga cyemerewe guca ku kindi mu gihe kimwe kiri kugenda gahoro.

Kaburimbo irimo abantu batandukanye, harimo abari kugenda mu nzira z'abanyamaguru ndetse n'umuntu ufite igare upakiye igitoki, kimwe mu musaruro uturuka ku buhinzi, akijyanye ku isoko ari muri kaburimbo wenyine nta bindi binyabiziga birimo.

Umuhanda w'amabuye, harimo moto iri kumanuka itwawe n'umugabo, ni umuntu umwe uri kuri moto, ku ruhande harimo abantu barimo kugenda abandi bicaye, ni umuhanda w'amabuye kandi mwiza.

Kaburimbo irimo umunyamaguru arimo kugenda, yambaye imyenda y'umweru n'umukara, imodokadoka ziraparitse, abandi bantu bari imbere bari kugenda ku magare, mu muhanda utarimo ibinyabiziga byinshi kuko n'umuntu umwe urimo kugendamo wenyine, ntarujya n'uruza rw'imodoka rurimo.

Ahantu hari umuhanda w'igitaka uri kwitabwaho kugira ngo bigende neza ndetse n'ahantu haringaniye imodoka zatsindagiye. Ni umuhanda ushobora kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka ndetse n' amagare. Imodoka ebyiri ku ruhande rumwe izindi ziri hepfo ziraparitse.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse neza, urimo ibice bitatu bitandukanye, igice cya mbere ni icy'abanyamaguru, inzira abanyamaguru bacamo, igice cya kabiri kikaba gicamo amagare, igice cya gatatu kikaba gicamo ibinyabiziga bifite moteri harimo moto ndetse n'imodoka.

Umugabo ufite igare kandi uhetse amajerekani menshi ari muri kaburimbo, nta bindi binyabiziga birimo kandi ari kugendera mu nzira y'abanyamaguru, mu by'ukuri yubahirije amategeko y'abanyamaguru ntabwo ari mu muhanda munini aho ibindi binyabiziga biba biri guca.

Umwana uri muri kaburimbo nta binyabiziga biri kugenda arimo wenyine ndetse afite n'igikoresho cyakoreshejwe n'ibinyabiziga aho arimo kugicunga nk'umwana arimo kwikinira cyangwa arimo kurya umunyenga ariko afite igikoresho cyakoreshejwe nk'igare cyangwa moto.

Imodoka iri muri kaburimbo yonyine, aho iri mu ruhande rw'imodoka zimanuka ndetse akaba ari imodoka idatwara imizigo, ikaba itwara abantu batanu.